Impanuka ntiteguza gura turi kumwe, ubwishingizi buciriritse bw'ubuzima. Kanda akanyemyeri, gatanu, gatatu, rimwe, urwego, ukurikize amabwiriza.

Ahacururizwa inkweto zitandukanye ziri mu bwoko butandukanye, kandi harimo inkweto ziri mu bwoko bwa congo ndetse n'izindi ziri mu bwoko bwa supurese. Izi nkweto ziri ahantu bacururiza mu nzu yazo kandi ziri ku murongo.

Isoko riteraniyemo abantu benshi ndetse ricuruza ibintu byinshi bitandukanye, harimo imboga, imbuto ndetse n'ibindi biribwa. Iri soko ririmo inyanya, intoryi, karoti, ibitunguru, imboga n'ibishyimbo.

Umugabo uhagaze mu muhanda nyabagendwa wa kaburimbo uhagaze yambaye ishati yicyatsi yanditseho ijambo vuba, ahagaze kuri moto ifite icyo ihetsi cyanditseho vuba vuba inyuma ye hagaragara icyapa cy'umutuku kibuza kuhanyura.

Ahacururizwa bimwe mu bikoresho byo mu rugo bitandukanye aha hacururizwa harimo abantu batandukanye kandi n'ingeri zitandukanye, abamama ndetse n'abapapa. Aha hacururizwa ibindi bikoresho byo mu nzu harimo amasorori ndetse n'ibikombe.

Abagabo batatu bari mu isoko ricururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, aba bamwe bari kugura ibicuruzwa bitandukanye, harimo ibicuruzwa byo kurya ndetse n'ibyo kunywa, aba abagabo batatu bambaye imyenda itandukanye, umwe yambaye umupira w'umuhondo, undi yambaye ishati y'umweru ndetse iriho akantu k'umukara.